Umugabo uhetse pompo wambaye isashi y'umweru uri gutera umuti ku bihingwa akabirinda udukoko dutuma bidakura cyangwa ngo byere.

Abasore babiri bahagaze imbere y'amatanki bororeramo amafi. Bari kuroba amafi bakoresheje indobani ntoya, bashyira mu isafuriya. Umwe afite n'umufuniko ari guhita apfundikiza ngo amafi atavamo.

Abantu batandatu barimo abagore babiri n'abagabo bane bahagaze imbere y'icyuzi bari kwifotoreza mu byatsi, impande y'icyuzi hari ishyamba inyuma yacyo hari ubuhinzi.

Abagabo bane n'umukobwa umwe, bafashe indobani bakoresha baroba amafi, bahagaze mu cyuzi kimwe bari kuroba amafi.

Igiti k'ikawa kiriho ikawa zeze zitukuye n'izitari zera zikiri icyatsi, gifite amababi akiri mabisi kitari cyuma, kiri cyonyine nta zindi kawa biri kumwe.

Ibigori bibiri biri kumwe byamaze kuma ariko bigifite amababi mabisi, munsi yabyo hari ibyatsi hirya hahinzemo n'ibirayi ku ruhande.

Ikigori cyumye, kitagifite amababi, gifashe ku gishangare, munsi yacyo hari ibyatsi, bikoze nk'umunyinya, inyuma hari ibindi bigori byumye.

Igishanga kirimo abahinzi benshi gihinzemo umuceri kirimo n'imashini yuhira, bamwe bari guhinga abandi bari gukoresha.

Ibishyimbo bikeya bihinze ahantu hatabagariye, harimo itaka rigaragara nk'iritera ririho n'ibyatsi bifashisha bakora imiti ya kinyarwanda.

Igihingwa cya dodo y'urubwija giteye mu bindi byatsi, inyuma yacyo hahinze ibiti, impande yacyo hari ibiti by'imyumbati, izi dodo zifashishwa n'abantu barwaye amaso.

Ibihingwa by'imyumbati ibiri, biteye ahantu hadahinze, impande y'umuhanda w'igitaka, imbere yabyo hari indabo, wambutse umuhanda hari inzu ya cadesteri idatuwemo n'abantu ikiri nshyashya.

Inama y'ubuhinzi yahuje abahinzi bose bafite n'icyapa kibasobanurira uko byose bigomba gukorwa ndetse bari kumwe n'umuyobozi wabo afite mikoro ari kubabwira ibindi bisobanuro.

Amavaze yinajemo ibiti by'amoko menshi atandukanye hari irimo igiti cy'umwembe, irindi ririmo igiti cya avoka, irindi ririmo igiti k'ironji n'ibindi bitandukanye.

Ibiti birimo imbuto za pome zeze, munsi hari izindi zaguye, hari n'amababi yazo biri muri jaride nziza.

Umugabo urigufata amazi ahantu itiyo yatobotse, inyuma ye hari undi mugabo, impande ya bo hari ibyatsi hari n'urutoki n'imikenke.

Umubyeyi w'umumama uhagaze mu murima w'amashu, afite itiyo ari kuhira, impande ye hari abagabo batatu bahagaze bari kumureba, inyuma ya bo hari urutoki, ku ruhande hari undi murima w'amashu.

Ishusho y'ikirere igaragaza imisozi ibiri, hagati harimo igishanga, gihinzemo umuceri, ku misozi hari indganire, hakurya hari ishyamba ryinshi, rirerire.

Igishanga gihinzemo ibigori, hagiye haciyemo amaterasi, hirya yabyo hari ishyamba, no ruguru yaryo hari urutoki, hatuwe n'abantu.

Umuveterineri w'umusore uhagaze imbere y'inka ziri kurya ibyatsi bikase, ziri mu kiraro cya kijyambere, buri kiraro gifiteho imashini ikama.

Umusore w'umuveterineri uhagaze imbere y'inka z'amoko atandukanye, zifite ibiraro bya kijyambere biriho n'imashini zikama.

Utuzu twubatse mu mbaho na senyenge twororerwamo inkwavu, munsi yazo hari arozwari, imbere hari utundi twubakishije imbaho dusakaje amabati ariko two nta nkwavu zirimo.

Inka z'inyarwanda zitarakura, ziri kugenda mu kibuga, impande yazo hari ibiti bitambitse n'itaka rihinze ,ziri kugenda zigana mu rwuri.

Inka ikimara kuvuka ikiri kumwe n'imiziha, ku ruhande rwayo hari amaraso, iryamye hasi hari n'amase nyina yaneye.

Inyamanswa yo mu gasozi ifite amabara y'umweru n'umukara mu gahanga, ifite amahembe maremare cyane, ikoze mu bwoko bw'ihene.

Inuma y'umweru iri imbere y'amazi y'ikiyaga mu byatsi, ikiyaga gikikijwe n'ibyatsi byinshi ku ruhande rwacyo hari ishyamba, iyi numa ifite iminwa y'umuhondo n'amaguru y'umuhondo.

Imbeba zirya imyenda nyinshi ziri hamwe mu gafuka ziri kureba imbere zabuze icyo zirya.

Umusambi uhagaze ku ibuye rirerire riri imbere y'igihuru, imbere yaho hari ishusho y'ikibumbano cy'umugore, munsi y'ibiti by'imikenke.